Ibi ni ibyuma twifashisha dutera imiti udukoko kugira ngo dupfe tutagumya kwangiza imyaka. Iyo ugiye kubikoresha umenya neza ko wapfutse umubiri wose, ari intoki, ari umunywa n' amazuru ari n'amaso n'amaguru kugira ngo utaza kwanduzwa n'iyi miti, kuko iba ifite ubukana bwinshi. Ubu rero kuyikoresha ugomba kwirinda cyane, ukirinda kwangiza ahubwo ukayifashisha mutera udukoko imiti tugapfa.

Iki ni icuma twifashisha mu gutera imiti, kwica udukoko, gufasha gukura muri ngongwa mu bigori tukuramo nkongwa ici cuma iyo ugiye kugikoresha uragiheka ukamara akantu gagupfuka amazuru n'umunwa kugira kubera umuti wacu uba ukaze kugira nawe utaza kukugiraho ingaruka ahubwo wowe ukafata ucucira imyaka ushaka ko ari udukoko dupfamo wifashishije kino cyuma.

Umuti n'igikoresho byifashishwa mu buryo bwo kwica udukoko two mu bihingwa, aka ni agakoresho ushyiramo umuti mu mazi ugacucira, ukica udukoko turi mu bihingwa, ubundi ibihingwa byawe bigakura neza.

Ifumbire ya yire，ifumbire twifashisha mu gushira ku bihingwa byacu，bikica udukoko，bigatuma iyo myaka ikura neza bitewe n'uko twakoresheje ifumbire ya yire， ifumbire ihendutse， igura make， ushiraho agafumbire gake， ubundi ibihingwa byawe bikazamuka neza.

Uburyo bwo gufumbira ibihingwa dukoresheje ifumbire y'imborera. Ifumbire y'imborera ni ifumbire itangwa n'amatungo itaciye mu ruganda, dushyira ku gihingwa no ku biti by'imbuto bikazamuka neza.

Umuti wifashishwa mu guhungira indabyo. Ni umuti ufasha indabyo mu kwica udukoko twazangiza n'ibiti bitandukanye ,bigakura neza bakoresheje uyu muti.

Uburyo bwo kubangurira avoka ukayibangurira, n'uburyo bwo kujya uyishyiraho amazi, ikaba iri mu ifumbire, ifumbire y'imborera , iba yaturutse ahatandukanye, kugirango ifashe ya avoka gukura neza kandi.

uyu ni umuti w'udukoko, wifashisha mu kwica udukoko tw'imyaka, na none ufasha mu kwica imibu, kwica intozi. Uwukoresha mu gihe gitoya, ukagufasha kuba ibihingwa byawe byakura neza.

iyi ni imifuka y'ifumbire irimo ifumbire mvaruganda. Izifumbire yifashishwa mu guterwa ku bihingwa. Ibihingwa byawe bigakura neza bikanatanga umusaruro.

Ibyuma ni ibikoresho byifashishwa mu gutera imyaka umuti, imyaka y'ibigori imiti yica udukoko, imiti yica nkonkwa, kugira ngo igihingwa gikure neza kidafite ibyonnyi ubwo rero ibyo byuma byifashishwa mu gutera imiti.

Ibyuma byifashishwa mu gutera udukoko tuba mu miceri, ubikoresha aba yipfutse ahantu hose ku bujyo umuti ari gutera utaragira ahantu na hamwe uhurira n'umubiri, kugira ngo utaza kumutera ubugwayi, ahubwo bakabikoresha bo bacucira udukoko tuba turi mu muceri kugira dupfe, ibihingwa bikure neza.

Amafi amafi yokeje amafi atunganije neza bokeje ku cokezo, bakoreye ibishoboka byose kugira ngo tubone ibikomoka ku matungo birinda igwingira ry'abana, babashe gukura neza bariye aya mafi.

Umurimo w'uburobyi ni umurimo mwiza cyane ukorerwa mu mazi aho abantu baba baroba isambaza n'amafi atandukanye ngo babyifashishe mu buzima bwabo buri munsi ari ukurya, ari no kwinjiza amafaranga.

Ubworozi bw'amafi ni ingenzi cyane, aya ni amafi yatunganijwe, aratekwa neza, kugira ngo avemo inkigi ya mwamba y'ubuzima, kugira ngo tubone ibyo kurya, birimo ibikomoka ku matungo, bitewe n'ubworozi bw'amafi.

Ubworozi bw'amafi cyangwa ibikomoka mu mazi bwageze ku rwego rwiza, amafi tuyifashisha mu byo kurya bya buri munsi, ku ifunguro rya buri munsi kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Uburobyi bwo mu mazi cyangwa ubworozi bwo mu mazi, twifashisha tubona ibikomoka mu mazi , bikatubeshaho bikatwinjiriza amafaranga, bikaba no mu mafunguro yacu ya buri munsi, haba mu kazi kababikora.

Amafi yo mu bwoko bwa Tumusoni ni amafi meza cyane, aba manini ariko ataba manini cyane. Ni meza k'ubuzima bw'umuntu arinda igwingira, afasha mu mibereho myiza ni amafi aboneka cyane.

Ubworozi bw'amafi, aya ni amafi aba yarobwe mu kiyaga , ni amafi meza cyane adufasha mu kwinjiza amafaranga , mu kuyakoresha mu byo turya bya buri munsi akaba ari ibyo kurya bikomoka mu matungo bifasha mu mikirire myiza .

Izi ni inyama z'amafi. Amafi yarobwe, agatunganywa neza, agakurwamo utugufa, hagasigara inyama ifatika, inyama itarimo twa tugufa tw'amafi. Kandi amafi n'ingenzi ku buzima kugira umuntu agire imikorere myiza.

Uburyo bwo guhinga ibiti by'intusi bwitwa intosi, bugezweho mu buryo bugufasha mu kubika ibiti bibiri bizavanwamo imbaho bikorwamo amakayi n'imbaho.

Ibihingwa byiza kandi byera vuba by'ibirayi n'ibigori, ni ibihingwa bikura vuba bidasaba igishoro kinini, biboneka mu ntara y'Amajyaruguru, mu Karere ka Musanze.

Igihingwa k'ibirayi ni igihingwa kiganje mu Ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze ni igihingwa kibamo bwoko butandukanye imbuto itandukanye kera vuba kikaranda kigatanga n'umusaruro.

Igihingwa cy'iteke igihigwa cy'iteke n'igihingwa cyiza cyane, cyera vuba cyera neza, kigatanga umusaruro uhagije, kandi kikaba kimwe mu bimera by'ibinyamafufu byera ibinyamafufu.

Ubwatsi twifashisha tugira amatungo meza, ubu ni ubwatsi duhereza amatungo yacu harimo: inka, ihene intama, amatungo yo mu rugo atandukanye. Ubwatsi turabuhinga ubundi tukabukoresha tuzifata neza dufata neza amatungo yo...

Iki ni igiti cyiza cyane cyera imbuto z'avoka. Imbuto zo mu bwoko bwa avoka ni imbuto nziza zera vuba, ziryoha zirinda indwara. Zifite intungamubiri avoka iragurishwa kandi ikungura nyirayo.

Ibihingwa bikunze kuboneka mu Rwanda ahantu hatandukanye cyane cyane mu ntara y'amajaruguru twita insina byeraho ibitoki, ibitoki byo kurya, ibitoki byo guteka, haba imineke, bigira amakoma, ni ibihingwa bidapfa gucika, bimara igihe kirekire.

igiti cy'imbuto yo mu bwoko bwa avoka: avokana ni imbuto nziza zitajya zisaza, igiti kera kikamara igihe zidatanga umusaruro uhagije, ni iza ku buzima.

Ubworozi bw'amatungo manini uburyo bwo gushora amatungo, kuyitaho, kuyarongora, kurongora n'ibihingwa bitandukanye.

Igihingwa c'igitoki ni igihingwa ciza cyane，insina ni insina ivaho igitoki ari ik'imineke， ari n'igitoki cyo kurya，ni insina itajya ipfa gucika，wayihinga n'imyaka icumi ikihari，kuko igenda ibyara buri munsi ibyara，ni insina nziza cyane.

Ubuhinzi bw'imboga bwa kijyambere bugezweho, zihingwa neza, zibamo ibiribwa byitwa karoti. Karoti ni igihingwa gikundwa, turagikunda cyane, kuko kiraryoha, kigira vitamini, cyera vuba, bitanga umusaruro umuntu akinjiza amafaranga.

Iki ni igihingwa cyiza cyane, cyera bitandukanye kigatanga umusaruro kikaba cya kwinjiza amafaranga, kigafasha umuntu mu iterambere rya buri munsi kandi gihingwa mu buryo bworoshye.

Iki ni igihingwa cy'igitoki cyera ku insina ,kera ibitoki byiza bya goromicheri , imineneke ya goromiri ikera neza kandi ikera vuba.

Ibihingwa bituruka mu majyaruguru mu Rwanda, hafite ubutaka bwera vuba, bahingamo ibintu byose bikera kandi vuba, bigatanga umusaruro ari ku babijya n'abaguranamo amafaranga.

Umurima w'ibigori aha ni ibigori byamaze gusarurwa hasigaye ibikenyeri ,aha hari hahinzwe ibigori byifashishwa mu mirimo ahantu hatandukanye mu mirya kubitekamo igikoma, no kubigurisha ukabona amafaranga.

Igihingwa cy'insina ni igihingwa cyera mu majyaruguru muri aka karere kacu ka Musanze. Iki gihingwa gitanga umusaruro kigira ibitoki binini, harimo n'insina zitanga imineke.

Igihingwa cy'igitoki ni insina yeraho igitoki kinini kibyibushye kiryoshye, kandi kikagura make.

Igihingwa cyiza cyane, igihingwa cy’inyanya. Inyanya ni igihingwa cyera vuba, kikaba gihingwa mu buryo butoroshye, ariko kikera neza, twifashisha mu mboga, mu byo kurya bya buri munsi, turagikeneye.

Ubuhinzi bw'ibirayi birarayi nimbuto nziza yera vuba idatinda mu murima, kwita ku murima w'ibirayi biroroha wera vuba, kandi bitanga umusaruro mwinshi.

Igihingwa cyiza cyane mu bwoko bwi'imbuto bwitwa amapera. Ni ubwoko bwera vuba kandi bukamara igihe kinini budacitse, bukera imbuto z'amapera nziza cyane, inini n'intoya kandi zirakenewe mu mubiri.

Igihingwa cy'amatunda, amatunda ni zimwe mu mbuto nziza cyane zihingwa zikera vuba iyo ugiye kuzihinga utera ahantu ziraba zisanzuye kuko ni ubwoko bw'imbuto buranda ahantu hanini.

Igihingwa cy'iteke igihingwa cyiza kiba ari kinini, kiba muri bimwe mu bitera imbaraga byongerera umubiri imbaraga ku muntu ukoresha imbaraga nyinshi; ni igihingwa kiryoha kigira amafufu kandi gisha vuba.

Mu buryo bwa kijyambere bwo gutubura imbuto bazishyira mu mazu yabugenewe atuma hajyamo izuba, hanyuma bagatuburiramo imbuto ikaza ari nshyasha ku isoko, ikaba igira n'umusaruro uhagije.

Imbuto y'ibirayi, ibirayi byasaruwe byashyizwe mu mifuka neza kugira ngo bibe bibitswe ahantu harinzwe. Imbuto y'ibirayi itanga umusaruro mwinshi kandi ufatika, kandi bikaba no mu byo kurya umuturage akenera mu buzima.

Igihingwa c'ikigori, ni igihingwa ciza cyane, kitarusha guhinga cyera vuba kikera neza. Ikigori ni cyiza ukirya cyokeje, gihiye, wagikuramo umutsima, wagikuramo n'ifu y'igikoma, ibigori ni igihingwa cyiza cyane.

Ubujyo inyanya zisasigwa ,ubu ni ubuhinzi bw'inyanya ubujyo wazitaho mu kuzisasira kugira ngo zikure neza ibyatsi bitazibangamira, zige hejuru zibone gutangira gutanga inyanya arizo mbuto mu twifashishe mu mirire no kubona amafaranga.

Igihingwa cy'amateke, amateke ni igihingwa cyiza cyane kiboneka mu bitera imbaraga n'ibinyamafuvu. Kiraryoha, kera neza kandi cyane kiboneka ahantu hatandukanye.

Imbuto nziza cyane, imbuto zo mu bwoko bw'amatunda zitwa amarakuja, ni imbuto ziranda zikera ahantu hanini, zikera ari nyinshi kandi zikera vuba kandi zikaryoha.

Ubuhinzi bw'imbuto, ubuhinzi bw'imbuto zitandukanye. Iyi ni imbuto ya marakuja, imbuto nziza cyane ku buzima. Ituma amaraso agenda neza ikongera isukari mu mubiri. Ni imbuto iboneka henshi.

igihingwa c' igitoki, uburyo igitoki gipakigwa mu modoka kikagenda ari cose kijyanywe ku isoko, kugira ngo ba nyiri ukubihinga baguranigwe amafaranga n'abatanga amafaranga batware igitoki bifashishe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'imbuto y'ibirayi ni bwiza kandi ubukorera ibagara kugira ngo ukuremo ibyatsi, ukuremo imyanda irimo, kugira ngo ikirayi kibashe kwera cyisagaguye kinashore ibindi birarayi.

Bumwe mu buryo bwo gutunganya imirima yo guhingwamo imbuto runaka, bahinga bakuraho ibyatsi kugira ngo baze kubona uburyo ki ibaza guteramo imbuto ikera neza.

Ubwoko bw'imbuto bwiza cyane, bwifashishwa mu kurinda indwara, imbuto z'amaronji, amapome amakokombure, imbuto ziboneka ku masoko atandukanye wa....

Zimwe mu mboga cyangwa ibirungo twifashisha mu gutegura ibyo kurya byacu bya buri munsi . Byongeramo uburyohe bikajya biryoha ku buryo tubirya ukavuga ati, " Ibi biryo biraryoshye".

Ubu ni bumwe mu buryo duteguramo ingemwe. Ingemwe zo guhinga ,ingemwe z'ibiti, niz'amatunda. Urazifata ukazishyira mushashi zigakuriramo, ubundi ukazazikuramo ukazihinga.

Igiti cy'imbuto y'amapapayi ni zimwe mu mbuto nziza z'amapapayi zihari nyinshi ku giti kimwe zikaba zifite uburyohe bwihariye. Amapapayi ni meza ku buzima bwa muntu.

Iki ni igihingwa cy'intoryi, igihingwa cy'intoryi baragikunda cyane abantu barabikunda cyane, kino gihingwa cyera vuba kikera vuba vuba kigatanga umusaruro mwinshi. iyo ukijyanye ku isoko ucyura amafaranga menshi.

Igihingwa cy'umuceri，uburyo bwo gutunganya igihingwa cy'umuceri，wanitse ahantu hari bugere izuba， ku buryo uri bwume vuba， wamara kuma， umuceri ukaba umeze neza， utunganyije kandi usa neza.

Urubuto rw'amaronji. Urubuto rw'amaronji ni urubuto rwiza, ruba rusa n'icyatsi, rukungahaye ku isukari, rwongera isukari mu mubiri, rugira imbaraga zo kugira isura ikeye.

Uburyo bwo gutwaramo imboga ,akantu twifashisha dutwaramo imboga ,izi ni imboga nziza cyane z'amababi akaba ari amababi y'icyatsi yifashishwa mu mirire yacu ya buri musi, anakoreshwa mu kuyarya ari mabisi, agatuma umuntu amererwa neza.

Igihingwa cyiza cy'imyumbati ,igihingwa cyera harimo umwanya munini ariko kikera bitubutse, aba ari imyumbati myiza kandi minini, imyumbati y'amoko atandukanye ,ikaba na yo irimo iby'amafufu n'ibitera imbaraga.

Igihingwa k'ibijumba, imbuto y'ibijumba imbuto nziza cyane , ibinyamafufu, ibitera imbaraga bitekwa byoroshye , bishya neza, biba bisa neza, ibijumba ni igihingwa kiza.

Ubu ni uburyo butunganywamo imbuto zo gutera. Zigatunganywa neza, zigakorerwa zikitabwaho kugira ngo bazashobore kuzihinga zimeze neza, zitange n'umusaruro ufatika.

Igihingwa cy'ibirayi, igihingwa kera vuba kigatanga umusaruro mwinshi, utera ikirayi kimwe ugasarura ibirayi icumi. Ni igihingwa cyoroha kigihinga cyera vuba, kiraryoha, kiraguritse.

Igikoresho cy’ikoranabuhanga cy’imashini cyifashishwa mu bworozi mu buryo bwo gukata ibyatsi by’amatungo. Cyifashishwa bafata ibyatsi by’amatungo kugira ngo amatungo ashobore kuba yabirya bitayabangamiye.

Ubucuruzi bw'ibyo kurya ubwoko bw'imboga n'imbuto bucuruza intoryi, karoti ,imiteja,n' inyanya ,amatunda, amaronji ,ni ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko bu....

Ubuhinzi bwa kijyambere bw'icyayi ni uburyo bwo guhinga icyayi bakibagara, bagisasira . Icyayi ni kiza gikunze kuboneka mu Ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze.

Igihingwa c'ibijumba. Ibijummba ni igihingwa ciza biri no muru bimwe mu bihingwa bitera imbaraga byongerera umubiri imbaraga. N' ibihingwa by'ibinyamafufu, cyera vuba, cyera neza, kandi kikera ari byinshi kandi mu gihe gito.

Ibihingwa cy'imbuto n' imboga byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, mu mibereho y'abaturage, bicuruzwa ahantu hatandukanye harimo: imiteja, pwavuaro intoryi n'indimu.

Ubucuruzi n'ubuhinzi bw’imbuto z’ubwoko butandukanye: amapera, avoka, imyembe n’indimu, kandi imbuto ziba zikenewe mu buzima bwa buri munsi.

Ibirayi imbuto y'ibirayi uburyo ipakirwa igashyira mu mifuka igakubirwa hamwe kugira ngo ibikwe neza ibashe kuba yakoherezwa. Ikava mu gace kamwe yoherejwe mu kandi igiye mu binyabiziga ikagerayo igifunze neza nta kibazo na kimwe yahuye nacyo.

Ikinyampeke c'ibishimbo, ikinyampeke gikenegwa buri munsi mu buzima bwa buri munsi. Dukenera ibishyimbo kugira bidufashe mu kutwongerera imyunyu ngugu, imyunyu ngugu, kurinda imibereho mibi, guteza imbere imikurire myiza y'abana n'abakuru.

Ubuhinzi bw'ibishimbo n'ibigori ni bwiza cyane mu buzima bwa buri munsi, kuko bikenerwa mu buzima bwa buri munsi abaturage bifashisha. Kugurisha, kugura bakabona amafaranga abandi bakabona ibyokurya ubuzima bugakomeza.

Ubuhinzi bw'imbuto, ubuhinzi bw'imbuto n'ibirayi ni ubuhinzi bugezweho kuva kera bwifashishwa mu buzima bwa buri munsi, ibirayi bibamo amoko atandukanye, byera neza kandi bukera vuba bigatanga n'umusaruro, ukabikorera neza.

Ubworozi bw'amatungo. Korora inka ni uburyo bwo korora ni uburyo bwihuse kandi bwungura. Inka zitanga ifumbire, zigatanga n'amafaranga, zigatanga n'amata, bituma imibereho y'umuturage iguma kugenda neza.

Ubu ni bumwe mu buhinzi bw'icyayi buhingwa hano iwacu i Musanze. Icyayi turagikunda cyane, kugikorera no kugihingira, kera vuba, kigira impumuro nziza, icyayi gitanga amafaranga mu buryo bwihuse.

Imbuto y'ibirayi byitwa peko, iyi ni'mbuto y'ibirayi nziza idafufuka cyane, yera vuba ikera ahantu mu bishanga, ikunze kuboneka mu ntara y'amajyaruguru kuko niho higanje y'ubuhinzi bw'ibirayi arimo dusangamo n'ubu bwoko bw'imbuto.

Mu buhinzi bwo mu bishanga ahahingwa, igihingwa cy' umuceri; abantu uburyo bari gutegura uburyo umuceri waba uri ahantu heza kureba amasoko, bakuramo ibyatsi bitandukanye.

Ubuhinzi bw'ibiti ni ubuhinzi bugezweho cyane kandi bwiza, kuko guhinga ibiti bidufasha kuba igihugu cyagira umwuka mwiza, hakagwa imvura kandi bigatuma n'ahantu hagaragara neza.

Igiti cy'imbuto z'amarongi. Iki ni igiti cyera neza kikerana imbuto nyinshi icyarimwe ,za marongi ziryoha cyane ,cyera vuba kandi imbuto zacyo zigira umumaro ku buzima bwa muntu.

Isok iri ni isoko ricuruza imbuto, zitandukanye wotameroni ,amarongi, imyembe, indimu, amatunda, bacuruza imbuto z'ubwoko bwose nziza z'umwimerere.

Uburyo bwiza bwo guhingamo imbuto y'ibirayi. Ni uburyo bwerekerwamo abaturage, uburyo bwiza bwo guhinga imbuto y'ibirayi mu murima uteguye neza, bakoresheje ifumbire, ubundi igihingwa cy'ibirayi kigakura neza.

Ubuhinzi bw'imbuto y'ikigori. Ikigori kiri mu binyampeke byiza cyane mu bitera imbaraga. Kiribwa ari kibisi, gishesheje, bitetse, ikigori kiribwa mu buryo butandukanye kandi gifite intungamubiri zikenewe mu buzima bw'umuntu.

Igihingwa cy'ibijumba igihingwa cyiza cyane uyu ni umusaruro wabyo ukaba uri muri bimwe mu bitera imbaraga mu binyamafufu bigiramo isukari y'umwihariko.

Igihingwa cy'inyanya ni igihingwa ciza cyane cyera vuba kandi kikera bitubutse kandi kikaba kigurika ku isoko. Inyanya ku isoko zirakenegwa buri munsi, ni igihingwa coroshe guhinga kitagora kandi cyiza.

Kuruseke, kuruseke ni imbuto y'ibirayi imbuto nziza iba ifite ibara rijya kuba umutuku nubwo atari umutuku neza yera vuba kandi cyane igihe gito ikanashora ibirayi by'ibara.

Igihingwa cyo mu bitera imbaraga, amateke. Amateke ni igihingwa cyo mu binyamafufu, cyera gitinze ariko kikera vuba, kigatanga n'umusaruro uhagije kandi kikera amateke manini y'amanyamafufu.

Ubworozi bw'amatungo ni ubworozi bw'amatungo yo murugo: inka, aha ni aho zirishiriz,a aho ziba, aho hakunze kwitwa mugikuyu, haba ubwatsi bwiza.

Igihingwa cyiza cyane cyo mu bwoko bw'ibinyamafufu cyitwa amateke, bamwe bakita amabungo mu ntara y'amajyaruguru, mu karere ka Musanze kizwi ku izina ry'amabungu. Igihingwa cyera vuba kigatanga umusaruro mwinshi kandi kikaryoha.

Imbuto z'ibirayi zera neza, izi n'imbuto z'ibirayi zera vuba zirera cyane zigira uburyo zibamo nini zirakundwa ku isoko, n'imbuto nziza zijya zitera imbaraga umubiri umuntu akumva yakora akazi ke neza.

Uburyo bwo gutegura umurima kugira ngo uzabone ukuntu wahingamo imyaka yawe, ikazera imeze neza, ubu rero ni uguhinga ushaka ko umurima uba uteguye neza.

Igihingwa cy'ibitoki ni igihingwa cyera vuba, kigatanga umusaruro uhagije, ku isoko kiba gikenewe. Kuko mu buzima bwa buri munsi mu mirire yacu dukenera igitoki, kibamo imineke ndetse kikanavamo igitoki cyo guteka.

Igihingwa c'ibishimbo. Igihingwa c'ibishimbo ni igihingwa ciza cyane gitanga imboga ndetse n'ibinyampeke. Cera ibinyampeke mbere mbere y'uko cera kivaho imboga bita umushogoro twifashisha mu kuturinda indwara no gukomeza umubiri.

Ubuhinzi bw'ibisheke n'ubuhinzi bwiza bugira ibisheke byiza cyane, bijyanwa ku isoko bigatanga amafaranga, biraryoha cyane bigira isukari, ibisheke ni ubuhinzi bugezweho bwa kijyambere.

Igihingwa cy'ibirayi imbuto y'ibirayi ni imbuto nziza cyane, ibirayi byera vuba kandi byera neza kandi bigira n'umusaruro, ibirayi ubyifashisha uteka byoroshe kandi byihuse, ibirayi ni byiza ku buzima bwa muntu mu gutera imbaraga, gutuma umundu agira ubuzima bwiza n'ibindi bitandukanye.

Imbutoy'amasaka. Amasaka ni ikinyampeke kiza cyane tugira mu muco nyarwanda. Kera i Musanze mu majyaruguru. Akaba ari ikinyampeke cyera vuba kandi kera neza. kikaba gifite n'umumaro ukomeye ku buzima bwa muntu.

Imbuto y'ibishimbo ari byo bivamo imiteja. Imbuto ihingwa ikavamo ibishyimbo byera ari bigufi bidasaba imishingiriro ahubwo urabitera. Cyera kiri hasi kitagusabye gushingirira.

Ubu ni uburyo bwo gutegura umurima wawe ukaba umeze neza kugira ngo uze kubona uko ugenda uteramo imbuto . Kugira imbuto zize gusanga umurima wawe uteguye neza zikure neza, zizatange umusaruro ugomba kugenda uranduramo ibyatsi ukawutunganya neza.

Aha ni ikusanyirizo ry'umuceri hahandi mumara gutunganya umuceri mwawusaruye, mukawuhura, mwamara kuwuhura aha niho uhurizwa hamwe, mukusanyirizo ryawo rikawufasha kuma neza, ugatunganywa neza, ni ukuvuga ko uba uri ahantu hatwikiriye utanyagirwa, harimo n'amadirishya ajyanamo izuba kugira ube umeze neza utari bwangirike.

Aha ni ahantu twifashisha mu gutunganya umuceri neza, imbuto y'umuceri zikaba zimeze neza zitunganyijwe, kugira ngo zizashobore guterwa neza.

Uku ni ko twanika ibigori, iyo ibigori ushaka ko byuma vuba ubundi ukabihungura, uragenda ugakora ibiti, ukaja urabipfundikanya ibigori ikigori n'ikindi ukabipfundikanya bitonoye ubundi ukabyanika ahantu hagera izuba kugira ngo byume vuba, izuba ribirinde no kuba byabora cangwa byanundwa kugira bizaze kuvamo impungure nziza.

Imbuto y'ibinyampeke byitwa ingano. Imbuto zifashishwa mu gutera, bakazitera zikabyara. Ingano muri rusange. Izi ni imbuto nziza kandi zera vuba.

Imbuto y'amajeri cyangwa mu yandi magambo, iyi n'imbuto y'urunyogwe. Ni imbuto iterwa ubibye ikaba yera vuba kandi neza.

Imbuto y'ibishyimbo ariko by’ubwoko bw’imiteja, ni ibishyimbo biva mu bwoko bw’imiteja bw’imboga zo kurya. Byera vuba, byera umusaruro uhagije, kandi ni byiza mu mibereho n'imirire y’umuturage.

Imbuto y'umuceri watunganyijwe, wakozwe neza, ubundi urifashishwa mu kuwuhinga, haze kuvamo yaba undi muceri mwinshi, ni imbuto yatunganyijwe iranikwa, igera ku rugero yabasha guhingwa.

Igihingwa cy'amasaka: igihingwa cy'amasaka ni igihingwa kiri mu bwoko bw'ibinyampekeke keravuba kikera neza kigatanga umusaruro uhagije kigasheshwamo ifu ari i gikoma cyangwa iyumutsima.

Igihingwa cy'amasaka. Iki gihingwa cyera kimeze nk'ibigori. Cyera vuba, kikagira imisigati iryoshe. Aya masaka avamo ifu y' igikoma n'umutsima witwa rukacarara, kandi kera vuba vuba.

Igihingwa cy'ibinyampeke cyitwa ibigori bitarahungurwa, biri mu mifuka kugira bibikwe neza ahantu biri bube bitagerwaho n'imungu, ubundi byume bizifashishwe mu buryo bwo kubirya ari ifu cyangwa ari amahundo.

Izi ni imboga nziza cyane, ni imboga zihingwa ahantu hatandukanye bidufasha mu mirire myiza, mu ndyo yuzuye zirakenewe, zongera amaraso mu mubiri zirinda bwaki, zirinda n'indwara yo kugwingira. Ni imboga z'ibara ry'icyatsi zitaba ndende ziba ngufi.

Imbuto y'ibishyimbo, izi mbuto z'ibishyimbo zera vuba, zigira umusaruro mwinshi, zigakoreshwa mu byo kurya bya buri munsi, zongera imbaraga. Igihingwa cy'imbuto ni cyiza ku buzima bw'umuntu, giterwa kimeze neza mu mbuto warobanuye neza, kikera.

Ubu ni uburyo bwiza bwo guhunika imbuto y'ibigori, ukabimanika wabitonoye kugira izuba ribigereho byume vuba , bibe bitanamunzwe bitewe n'uko byabitswa, ahantu heza.

Imbuto y'ibishyimbo; imbuto nziza cyane, yera vuba, ikera neza, igatanga umusaruro utubutse. Ni imbuto y'ibishyimbo nziza yitwa umwibarahinda ivanze n'urukuki.

Ubuhinzi bw'ibinyambeke ibi binyambeke byitwa ingano, zera vuba zihingwa ahantu hari hafi nko ku gasozi ku buryo izuba rizigeraho vuba, ingano ni nziza cyane kuzihinga.

Ibishimbo n'impungure ni mu bimwe mu binyampeke dukenera mu buzima bwa buri munsi bidufasha mu kongera imyunyungugu mu mubiri ibishimbo birinda ijyuma jy'iminywa, birinda igwingira jy'abana, imbugure zikomeza umubiri, zitera imbaraga mu buzima bwa buri munsi.

Imbuto, iyi ni imbuto y'ibishyimbo ibishyimbo byitwa Umwizarahenda, ni ibishyimbo biba ari umutuku bihingwa bikera vuba, bikera ibishyimbo byinshi bikanaryoha.

Imbuto y'ibishyimbo, ubu ni uburyo bwo gutunganya imbuto y'ibishimbo, ufata buri bwoko ubushyira ukwabyo, umwuzarahenda ukwabyo, kiryumukwe ukwayo, nyagufi ukwayo, perezida ukwayo, ibishyimbo by'umukara n'iby'umutuku.

Imbuto y'igihingwa kivamo amavuta yitwa igihwagari. Igihwagari ni igiti gitunganywa kivamo amavuta, kikifashishwa mu guteka ibyo kurya bya buri munsi. Ni igihingwa cyiza, cyera vuba kandi kigatanga umusaruro uhagije.

Imbuto zitandukanye hari imbuto zo gutera, harimo imbuto ibishimbo, amasaka, impungure, mu mbuto zifashishwa mu gutera mu bintu bitandukanye.

Igihingwa cy'ingano igihingwa cyera vuba kigakunda kwera ahantu ku gasozi kugira izuba rikigereho kimwe mu bihingwa by'ibinyampeke bivamo ifu y'igikoma, imitsima n'amakaroni ni ibihingwa byiza.

Izi ni mbuto z'ibihaza zakuwe mu gihaza. Zigiye kwanikwa kugira ngo zize kuvamo imbuto zakwifashishwa mu kuzihinga, zikazavamo bihaza. Izi mbuto ni nziza, zirera kandi vuba.

Mu buryo bwo guhinga umuceri uhingwa mu bishanga ahari amazi menshi biwufashe gukura, bakawutera bakoresheje ku buryo hagati hasigaramo inzira y'amazi mu muceri ugakura neza, ukera ukajya ku isoko.

Imbuto y'ubunyobwa n'imbuto dusanga mu binyampeke. Ubunyobwa ni bwiza bwera vuba bugatanga umusaruro uhagije. Buri mu binyampeke byerera hasi mu butaka.

Ubu ni uburyo bwiza bwo gutunganya imbuto z'umuceri, zigapakirwa mu mifuka zigafungwa neza, zikabikwa kugeza igihe zigereje igihe cyo kuba zaterwa zimeze neza zirahita zitangira kumera.

Ubworozi no kuvura amatungo biteye imbere cyane, bigomba kuba ahantu heza hateguye, hatari umwanda, bigakingirwa indwara zimwe na zimwe, kugira ngo zitange umusaruro uva ku bworozi.

Inka z'inyambo ni inga nziza cyane ziboneka mu Rwanda. Zigaragazwa no kugira amahembe meza cyane ataratse, inyambo ni zimwe mu nga zikoreshwa mu birori, mu gukwa mu myiyereko itandukanye y'umuco w'umunyarwanda. Ziboneka mu ntara y'amajyaruguru niho dusanga inga z'inyambo. Inka ziteye amabengeza cyane.

Ubuvuzi bw'amatungo bwa kijyambere bwifashishwa mu gutera amatungo intanga. Waba ushaka ko havuka ifirizoni ugateza intanga inka yawe ku ifirizoni.

Ubworozi bw'amatungo magufi itungo rigufi ryiza cyane intama y'ikiberini intama zororoka vuba ntabwo zirushya ziritonda zirya byose.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni ubworozi buteye imbere kandi bwiza cyane bufasha mu iterambere kwihuta. Bwororoka vuba ntabwo bugorana ni ubworozi bw'amatungo magufi bufasha mu iterambere.

Ubuvuzi bw'amatungo, n'ubworozi bw'amatungo bugezweho, amatungo yororerwa ahantu heza mu gikuyu cyiza, akitabwaho n'abaganga, akororoka neza cyane kandi vuba.

Ubworozi bw'ingurube, ingurube ni amatungo yororoka vuba iyo igiye kubyagura ibyagura ibyana byinshi kandi bikagura menshi ingurube ni bworozi bwiza buteye imbere kandi bwungura vuba.

Ubworozi bw'amatungo magufi. Izi hene ni ihene nziza zororoka vuba. zidasaba igishoro kinini. ziri mu bworozi bw'amatungo magufi zororoka vuba kandi cyane.

Inka iyo ziri mu guri zirimo zirisha zahuriye hamwe ni inka z'ubwoko butandukanye, inka nziza cyane zimeze neza, ni amatungo yo mu rugo yororoka vuba kandi agatanga amata, ni meza cyane kuyagira.

Ubu ni bumwe mu buvuzi bwa kijyambere bwifashishwa mu kuvura amatungo, cyane cyane inka, mu kuzivura ibirondwe, kuzitera intanga, ushaka ko ibyara ubwoko bw'inka, nk'imfirizoni, ubu ni ubuvuzi bwa kijyambere bwo kuzitera izo ntanana.

Imwe mu nyoni nziza cyane zigira izosi rirerire, zikagira umunwa mu mutoya, zikagira amababa manini, ziguruka byihuse, kandi zikagenda ahantu hanini, zikagira n'amaguru magufi.

Inyamaswa zikurura ba mukerarugendo inyamaswa zitwa ingagi. Ba mukerarugendo barazikunda kubera zigira imyitwarire ijya ku nk'abantu ziba mu kinigi mu majyaruguru mu karere ka Musanze niho dukunda kuzisanga.

Akanyamaswa keza cyane, kagira amatwi ajya hejuru, kakagira utwiso nku tw'ipusi, karagaragara nk'ipusi ni mu bwoko bw'amapusi ariko si agapusi, ni akanyamaswa kazi kunyaruka cyane mu kwiruka.

Iri ni itungo ryo mu bwoko bw'imbwa, ni akabwa keza gafite amabara meza. Akabwa cyangwa imbwa yifashishwa mu kurinda imitungo yacu ikamererwa neza.

Imwe mu bwoko bw'inyoni ikunze kuba ku mazi, ifite imbaraga, ikunze kuba hafi y'amazi, niho iba, niho ikurira, ni inyoni nini ubona ko ari nini, ikagira amaguru maremare n'amababa menshi n'umunwa ujya kuba umuhondo, ikagira amabara atandukanye, ni inyoni ikunze kuba iri hafi y'amazi.

Iyi nyoni n'inyoni nziza iba hafi n'amazi, n'inyoni igira amababa manini ku buryo iguruka intera ndende. Igira izosi rirerire ariko ikagira agatwe gato, ikagira n'umurinzo muto, n'inyoni nziza ishimishije.

Ubu bwoko bw'inyoni ni inyoni nziza cyane zikunze kubaho mu muryango ziguruka ziri kumwe ikigabo kigahigira umuryango waco ni inyoni zifite amabara meza ziba mu byari byazo iyo zivuye gushakisha zubaka ibyari zigaturamo ni inyoni ziboneka hake utapfa gusanga ahantu hose ni imbonekarimwe.

Ubu ni ubwoko bw'inyoni nziza cyane zigira amabara meza. Zijya kumera nk'inuma, aba atari inuma. Zikunze kuba ahantu ho mu bibaya, ni ho zikunze kuba zaritse ibyari byazo ku nkengero yabyo.

Ubu ni bumwe mu bwoko bw'amatungo magufi yo mu rugo bw'inkoko, kuko ni inkoko nziza zitanga umusaruro mu gihe vuba, kandi umusaruro uhagije. Zitanga n'amagi, zigatanga n'inkoko zivamo inyama.

Izi ni inyoni zikunze kwibera mu mashamba yo mu Majyaruguru Musanze, inyoni zigira amabara meza zikunda gushakisha, zikarika mu byari mu mashamba nta go zikunze kujya mu giturage, akenshi ziba ziri mu mashamba. Izi nyoni zibaho nk'umujyango nta go zikunze gutandukana ziragendana, inyoni nziza cyane.

Akanyamaswa cyangwa inyamaswa idakunze kuboneka ahantu henshi, kuko iboneka ahantu hake hashoboka. Ikaba iri mu bwoko bw'imbeba, ikagira amenyo maremare n'umunwa mutoya.

Imwe mu nyoni nziza cyane zigira amababa maremare kandi meza, ikagira amaso ajya kuba umutuku, n'umunwa usongoye. Ni inyoni ziba mu mashyamba kenshi na kenshi.

Iyi ni imwe mu nyoni zo nkunda cyane .izinyoni ndazikunda . Zigira amabara meza . Zigira umurizo mugufi utabyibushye cyane. Zigira amababa yo nkunda . Izi nyoni ziba mu mashyamba mu bice by'i Musanze.

Ubu ni bumwe mu bwoko bw'inyoni bukunze kuba mu ishamba. Aba ari ubwoko bw'inyoni bunini, bugira amajanja ajya kuba umutuku, bukagira amababa menshi, umunwa mutonya, n'umutwe munini gakenya n'amaso ajya kuba ikigina.

Igisimba cy'ubwoko bwo mu bikururanda kigendesha inda, kiba giteye nk'ikijya kuba ingona, ariko atari ingona, cyangwa mu bwoko bw'uruvu, kigira amabara atandukanye harimo n'ay'ubururu.

Ubu ni bwoko bw'inyoni buboneka hakeya, butarakura bukiri ubwana inyoni zigira ibara ry'umukara, rikagira umunwa munini zikaba ari nini mu ukuntu ...

Imwe mu nyoni nziza cyane, zikunze kuba mu mirima cyangwa mu bisambu. Inyoni zigira amaguru maremare y'imikara, zikagira umunwa muremure, zikagira amababa menshi, zikaba ari ndede kandi zihuta.

Izi ni imwe mu nyoni nziza cyane. Aba ari inyoni zikunze kuba ari utunyoni dutonya, dutonya, twiza dufite amabara meza. Tugira umunwa muremure n'amaguru magufi, dukunze kuba hafi n'amashamba, mu ndabyo dushakamo ibyo kurya, ni inyoni nziza cyane.

Inyoni zikunda kwibera ku nkengero z'ikiyaga, niho dukunze gusanga izi nyoni. Ni inyoni nziza zigira amabara meza, zigira amajwi meza, zigira amaguru maremare, zikagira n'umurizo munini. Ni inyoni dukunze gusanga hafi n'amazi.

Ubwoko bw'inyoni bwiza cyane bugira amabara meza atandukanye, y'uruvangavange, bukagira umunwa muto, ikagira amababa manini, ikagira amajanja ajya kuba mu ibara ry'iroza, ry'umutuku, ikagira amabara meza, amababa y'umweru avanze n'umukara. Ni inyoni nziza cane.